Abasirikare bari ku karasisi bakaba bafashe inkota, bakaba bambaye ga z'umweru n' amapeti y'umweru, bakaba bitegura kwambikwa, hakaba hari na bande yo kubacurangira.

Indege iri mu kirere, iyo ndege ikaba ifite akagozi kariho idarapo ry'igihugu, iyi ndege ikaba ariya gisirikare ikaba yitwa kajugujugu, ikaba ifite udupine tubiri turi kwerera ndetse n'igipanga hejuru.

Abapolisi barimo barakora akarasisi. Hari umupolisi umwe ubahagaze imbere. Bakaba abo bapolisi bagiye gupasinga cyangwa se kuba abapolisi.

Abapolisi barimo gukora imyitozo .Inyuma yabo hari ibiti ndetse bari mu kibuga cy'imyitozo, aho bari gutozwa uburyo barinda igihugu no gusigasira umutekano wacu.

Ibisambo byambaye amapingu aho polisi iri inyuma yabyo, yiteguye kuba yabatwara kujya kubafunga ibaziza ibyaha bakoze.

Imbwa iri mu muhanda, ikaba iri gusaka imodoka mu nsi yayo kugira ngo irebe niba nta bintu bibi ibitse kugira ngo umutekano ubashe gusigasirwa.

Abasekirite bambaye imyenda ya kaki na bote z'icatsi, aho bari ku murongo kumva amabwiriza umuyobozi wabo ari kubahereza. Buri mbere y'umuntu hakaba hateretse ibikarito.

Umuyobozi ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu afashe mikoro arimo araremesha abaturage inama .Abaturage bicaye hasi ku mucaca bakaba bateze amatwi ibyo umuyobozi ari kubabyira.

Abagabo bicaye muri sale bakaba bari kunywa fanta. Fanta zikaba zirambitse ku meza kandi aba bagabo bakaba bicaye ku murongo umwe muhande rw'epfo.

Inama .Aho umuyobozi ari guha inama abandi bayobozi bagenzi be. Umuyobozi akaba ari kumwe n'umusirikare n'umupolisi n'undi mugore usanzwe, kandi hakaba harimo n'ifoto y'umukuru w'igihugu.

Umugabo uri gutanga inama, mu nama ya rpf cyangwa se fpr, akaba afashe mikoro, akaba yambaye n'isaha mu kuboko kw'ibumoso, akaba hagaragara muri iyi nama abambaye imipira itukura y'umutuku, nabambaye imipira y'umweru.

Isekuru irimo umusekuro，ku ruhande rwayo hari agatonga ndetse n'umupira hasi. Isekuru ikaba idufasha gusekura isombe ndetse n'amasaka.

Umugore uhetse umwana upfukamye ari kuboha agasero, akaba ari mu nzu y'ibyatsi, kandi akaba yambaye ibirenge.

Abantu bari mu muco nyarwanda bambaye imikenyero, hari umugabo ufashe agacuma, ndetse hari n'abandi ba muri inyuma bafashe inkoni, bambaye n'imikenyero. Ibi bikaba bigaragaza umuco wa kinyarwanda.

Inkongoro ibiteretse, tukaba tuyifashisha mu kubika amata. Ibi bikaba bituma dusigasira umuco w'abanyarwanda wo gukoresha inkongoro haba mu bukwe ndetse haba no kuyinyweramo amata.

Abagore bari kubyina bambaye uduseke, bakenyeye n'imishanana ndetse bambaye n'udusengeri, barambuye amaboko bishimye kuko bari kubyina, bikoreye n'udutebo ku mutwe.

Ababyinnyi barimo bari kubyina imbyino gakondo ndetse n'ababakurikiye bakaba bicaye mu mahema. Aba babyinnyi bakaba baba biganjemo abagabo ndetse n'abagore.

Ikiyiko kibajijwe mu giti ,n'isahani ibajijwe mu giti bita uruho abantu bakoresha bagira ngo bibuke uko babikoreshaga hambere.

Umuheto ukaba uriho akabindi hejuru ,kandi ukaba uba umanitse ku kibambasi. Umuheto wifashishwaga mu kurasa, ndetse ikaba ariyo ntwaro y'abakurambere ba kera.

Abaturage bari mu muganda, aho higanjemo abasirikare badufasha mu gucunga umutekano, bakaba barimo basiza umuhanda wo kunyuramo, kugira ngo abanyamaguru n'ibinyabiziga bigende bimeze neza.

Agacuma kari ku ntara, intara nayo ikaba iteretse ku kirago, inyuma yayo hari uruzitiro rw'ibiti bita ibikenyeri. Bikaba bigaragaza umuco wa kinyarwanda. Ndetse hari n'imiseke iri ku Uruhande n'undi museke uri mu agacuma.

Urusyo rw'ibuye, aho umugore ari gusya, ibyo ari gusya bikaba biri kujya ku ntara, kandi hakaba hari kubonekamo ifu mu byo ari gusya.

Abagore bari gusekura isombe. Babiri bari gukoresha isekururo kandi bahagaze iruhande rw'inzu.

Abantu bahetse umuntu mu ngobyi n'abandi bikoreye utubende n'abandi bakenyeye aha bakaba bari kugaragaza umuco wa kinyarwanda.

Umugore uri kugosora, akaba ari ko gusoza intara. Rero uyu mugore akaba yakenyeye umwenda yambaye n'ishati yumutuku. Arimo kugosora ibigori

Inkoko iriho urwuho ruriho imyumbati, n'urundi rwuho ruriho ibishyimbo, n'urundi rwuho ruriho umutsima. Iyi ntara ikaba iteretse ku ikirago, ibi bikaba bisigasira umuco gakondo w'abanyarwanda.

Abagabo bafashe amacumu ndetse n'abagore inyuma yabo. Abagabo bakaba bari kubyina imbyino za gakondo. Inyuma yabo hakaba hari ikirunga.

Amazu yubakishije ibyatsi yitwa nyakatsi, ndetse hari n'ikirunga citegeye aya mazu. Bikaba ari bimwe mu ndangamurage y'igihugu cacu c' uRwanda.

Umuzinga umanitse ku giti , uyu umuzinga ukaba ufite udupfumure tubiri inzuki zinjiriraho, ukaba utanga ubuki bwiza.

Umufuniko w'agaseke urambitse hasi, uyu mufuniko upfundikira agaseke kugira ngo ibirimo bidatakara cyangwa ugakoreshwa nk'umutako ahantu henshi hatandukanye.

Umuvure ukaba bari kuwushiramo ibitoki, bakaba benda gukama umutobe. Barashyiramo ibyatsi, bakoreshe intoki cyangwa se amaguru uze kubona umutobe.

Koperative iri guhinga ,bari guhingisha amasuka ,bari mu murima kandi barimo baraganira. Bakaba bari guhingira ku murongo, kandi bakaba bishimye cyane bityo iterambere ry'igihugu rikihuta.

Abagabo bafite inkoni bambaye n'imisatsi, bakaba bari kubyina nk'umuco wa Kinyarwanda. Bashimisha abantu bafite n'ibikingira kuba hari uwabarasa imyambi.

Abagore n'abagabo bari kubyina imbyino gakondo bakaba bahagaze mu kibuga imvura ikaba yaguye.

Abana batoya bari mo kubyina bambaye imisatsi kandi bambaye amayugi mu maguru, aho bari kuririmba indirimbo gakondo za kinyarwanda bikaba bishimishije.

Inzoga iri mu ruho. Ikaba iteretse ku ngata ndetse no ku karago. Hakaba hari na papiyejenike ku ngata.

Umusaza uri kunywa itabi. Akaba yambaye ingofero n'ikoti akaba afite inkono ya kinyarwanda ya kera.

Umugabo uri guhakura ubuki akoresheje imizinga ya kinyarwanda ,kandi yambaye amashashi mu mutwe, mbese n'ingofero bimurinda kuba yaribwa n'inzuki ,ndetse ndabona ibitoki biri iruhande rwe.

Akarago karambuye mu mucaca kakaba kariho dekorasiyo ya medinirwanda, ibi bikaba bisigasira umuco w'Abanyarwanda.

Abagabo barimo bafashe amacumu bakaba barimo guhamiriza, ndetse batereye imisatsi bose hejuru, bambaye n'amayogi mu maguru kandi bose bambaye n'imyenda isa.

Ingobyi abantu bahetse umuntu urwaye, bakaba bamujyanye bamujanye kwa muganga, bakaba bari kugenda n'amaguru, bakaba bamworoshe ikiringiti.

Abazungu bari kuvuza ingoma. Bambaye imikenyero, kandi bashaka kwiga imico y'u Rwanda. Hari n'Abanyarwanda ,bari kubafasha mu kwiga kuvuza ingoma, ndetse n'undi muco uranga Abanyarwanda.

Abagabo n'abasore, bari kuvuza ingoma ,bakaba bambaye imikenyero n'amashati asa ,akaba hari umwe uri ku ruhande wambaye umupira w'umukara, bakaba bari kuvuza ingoma.

Umugore uri kuboha ikirago yambaye isaha. Ikirago ni kimwe mu biryamirwa dukoresha mu muco wa kinyarwanda, kandi bikaba bikoreshwa mu bukwe, bisigasira umuco wa kinyarwanda mu mwanya wo gukoresha matela.

Inzu yubakishije amategura kandi ikaba ifite inzugi z'ibiti, bityo bikaba bituma umurage wacu w'abanyarwanda utibagirana.

Umugabo yikoreye umuvure, kandi akaba yambaye ibirenge. Umuvure ni kimwe mu bikoresho bifashisha, bari gukama umutobe.

Akebo kararambitse, karapfundikiye, gakozwe n'amabara atatu: icatsi, umukara n'umuhondo, kari ahantu h'umukara hameze neza.

Ababyinnyi barimo kubyina b'abakobwa, ndetse harimo n'abahungu bari kuvuza ingoma, abakobwa bambaye kinyarwanda, amayogi ndetse bambaye n'ibirenge.

Umugabo n'umugore, bafashe inkongoro, bari mu bukwe, abantu bari iruhande bari gukoma amashi, kuko bari gusigasira umuco w'u Rwanda .Umugore yambaye imikenyero, n'umugabo yambaye imyenda yakorewe mu Rwanda.

Abadamu barimo kubyina, hari ingoma kandi bakaba bari hejuru kugira ngo abantu bari kubyinira, baze kubabona neza mu buryo butagoranye.

Igisabo giteretse ku byatsi, kandi hari n'uruzitiro rw'ibikenyeri cyangwa se rw'ibyatsi, bikaba bituma dusigasira umuco w'u Rwanda bigatuma udasibangana.

Umugore wambaye imikenyero n'igikomo, uhagaze ku ndabo ,inyuma ye hari inzu yubakishije amatafari kandi yambaye umusatsi yashizeho.

Urutsinga rurimo udutsinga dutatu, rukaba rurambitse ku kantu k'umutuku, bakaba baruciye kugira ngo basuzume neza uko udutsinga tumeze.

Agakoresho gafungura umuriro kakanawukupa, kakaba gateretse ku meza ,kakaba kazimya kakanatsa umuriro.

Agakarito kakaba kariho utwuma, abantu bakoresha biga amashanyarazi, utwuma twari dufite amabara, y'umuhondo umutuku umweru, ndetse n'andi magambo yanditsweho, abafasha kugirango bamenye ibyo bari gukora, mumashanyarazi.

Varutameta ni agakoresho karambitse ku meza, kadufasha gupima aho umuriro ugeze, ingufu umuriro ufite kugirango turinde ibikoresho byacu.

Kiliziya ifite umusaraba hejuru, ifite n'ahantu bavugiriza inzogera abantu bakaba bahaja mu gihe bagiye gusenga ku cyumweru cyangwa se mu yindi minsi.

Kaburimbo iriho amatara ku mpande, ndetse irimo abamotari n'imodoka ziri kuyigendamo, ikaba iriho n'ibyapa biyobora abagenzi na etaje. Bigaragara ko ari mu mujyi.

Ikigo c'amashuri aho hagaragara inzira ikijyamo. Ndetse n'amashuri arafunguye hariho n'aho bakarabira, kugirago bagabanye imyanda kandi iki kigo cy'amashuri gikikijwe n'ibiti.

Urusengero rukaba ruriho icapa cyanditsweho, imbere y'urusengero hakaba hari umugabo uri kugenda kandi uru rusengero rukaba ruriho amakaro y'umweru ndetse n'amatafari ateye irangi ry'umutuku.

Umuhanda uri kugendwa mo n'abantu, impande y'uwo muhanda hakaba hari amazu ya kera, akikijwe nibiti by'intusi.

Etaje ikaba ifite imbere yayo umuhanda, kandi ifite n'akapa kanditsweho pama, iyi etaje ikaba igizwe na foro nyinshi cyane.

Urusengero imbere y'urwo rusengero hari ipoto y'amashanyarazi, ndetse n'abakobwa bavuye kuvoma. Uru rusengero abakiritu benshi bakaba barugana, mu gihe bagiye gusenga.

Akagari kakaba kariho idarapo, inyuma y'ako kagari hakaba hateye ibiti ,ndetse n'imbere yako kagari hakaba hari imodoka ziparitse.

Abantu bicaye ku nzu, umwe ahetse ipombo itera umuti, abandi barahagaze bari kuganira. Bari gucuruza inanasi hasi, kandi inzu bariho ikozwe mu mabati.

Igipangu c'amabuye hariho urugi, hari n'inzira y' amapave ija muri ico kigo. Kuri ico gipangu, hejuru hari ifoto kandi mo imbere hari n'ibiti n'amazu.

Inzu yegereye umuhanda bari kuyubaka imbere yayo hari umucanga bita giciye, n'undi mucanga usanzwe bari kubakisha iyo nzu, iyo nzu bari kuyisakara kandi imbere yayo hari ipoto ricaho insinga z'amashanyarazi zitanga umuriro.

Sitade abantu bakoresha bakiniraho umupira, ndetse n'abandi bicaye bari kureba. Akaba hari na rigori iyobora amazi ngo atangiriza ibikorwa remezo birimo Sitade ndetse n'amashanyarazi.

Urusengero gubakijwe amatafari n'amabati y'umutuku imbere yarwo hari ubusitani ndetse n'inzira ija kuri urwo rusengero.

Ubwanwandikiro bw'ibigori, impande yabwo hari abaturage bicaye bafite imifuka, nabo bigaragara yuko bategereje abantu babagurisha ibyo bafite.

Umudugudu citegererezo aho wubatse neza, ukishijwe amatafari n'ibyuma kandi urakomeye. Aba ni abaturage batuyemo bari imbere y'amazu yabo aho baganira, abandi bafata akayaga.

Amashuri: Amashuri akaba afite ikibuga, ndetse n'iruhande rw'ishuri hakaba hari kaburimbo abantu banyura mo. Kandi ikigi cy'ishuri kikaba gikikijwe n'amashamba atuma haba ho guhumeka neza.

Ikiraro cyubakishijwe ibyuma munsi yacyo haba amazi acamo; iki kiraro kikaba cyubatswe kugira gifashe imodoka ndetse n' abagenzi, kugira ngo bahace byihuse.

Amazu y'abaturage, ahari umudugudu ahubakiye abaturage muri rusange, n'imidugudu imeze neza yubatse mu buryo bwa etaje, kandi hafite ikirere cyiza bigaragara yuko abaturage batuyemo bafite imibereho myiza.

Abayobozi barimo barigisha abana kuri rasambuloma cyangwa se ku murongo mbere yuko amasomo atangira.

Aya mazu asa , bubakiye abatishoboye, arimo umuhanda hagati, bazaja bacamo bari kugenda.

Abantu bari guca ku kiraro, iki kiraro kikaba kiri mu kirere, abantu bakaba bari kugicaho kugira ngo bagere aho bagera byihuse kandi mu buryo bubangukiye buri wese.

Ikigega gitubura ibirayi ,imbere yaco hakaba ari umuhanda abantu bifashisha bari kugenda akaba ari n'imodoka iparitse ku ruhande ,hakaba hari n'amashanyarazi hafi aho ,yerekana y'uko iterambere ry'u rwanda riri gutere imbere.

Abaturage bari gukora umuganda, kandi imyanda bakaba bari kuyishira ahantu hamwe ngo izahindukemo ifumbire ,ibore ,kugira ngo abantu baje barayiteresha ibirayi .Kandi bakaba bari kubikorera mu mudugudu harimo amazu asa.

Inyubako ya etaje, mu gice cyo hejuru impande yayo, hari utwuma turinda abantu kuba bagwa hasi.

Kiliziya ikaba iriho icapa canditsweho paruwasi regina pacisi rambura. Yubile y'imyaka ijana aho yatangiye mu gihumbi kimwe magana cyenda na cumi na gatatu. Igeze bibiri na cumi na gatatu.

Ikiraro kirimo gukorwa kugira ngo imodoka zije zihaca, hakaba hari abaturage bahahagaze kurico kiraro, kandi ico kiraro hari imodoka igiye kuhanyura.

Imidugudu igezwe ho isa n'iri kubakwa, kandi ikaba ifite n'ibikoni byo gutekera mo, ikaba ifite n'imisozi iyikikije.

Ikigo kiriho umusekirite, kiriho igiti gitambitse cyanditsweho sitopu, aho umuntu wese ushaka kwinjiramo cyangwa se ikinyabiziga abanza yabihererwa uburenganzira n'umusekirite.

Urusengero abantu bakaba bari mu kibuga cyarwo, hakaba ari korali iri kuririmba, hakaba hari n'imitaka igaragaza y'uko aho ahantu hari kugwa, kuva izuba, bikaba bishimishije.

Umuhanda mushya wa kaburimbo ukaba uri kubakwa bakaba barajugunye ibitaka ku mpande, kandi yu muhanda bakaba barawaguye kugira ngo imodoka zije ziracamo neza.

Igikoni rusange aho hahuriramo abafite ubumuga ndetse n'abantu batandukanye; kuri icyo gikoni hakaba hari kizimyamwoto; ndetse iki gikoni kikaba gifite intebe imbere abantu bicaraho mu gihe bategereje.

Ibitaro bizitije senyenge, ipande yasenyenge hari umuhanda w'ibitaka ,ibitaro bikaba bikikijwe n'ibiti kandi aho ku bitaro hakaba hari ikirere kimeze neza.

Inzu yubakishijwe amabati y'umutuku ,iyi nzu ikaba yegereye amazi, ndetse iyi nzu ikaba ifite akayira kayijyaho, ibyerekana yuko hari ari aho bakirira abantu bagiye ku mazi.

Ibitanda biri mu cyumba kwa muganga, aho abarwayi babiryamaho mu gihe bwije cangwa se bahamushize, kugira ngo aharwarire igihe kirekire cyangwa se kigufi, mu igihe atabasha kuja kurwarira mu urugo.

Imidugudu y'icyitegererezo inyuma yazo hakaba hari karoti wifashisha nk'imboga mu gihe bagiye kurya, kandi izo etaje akaba ari na antene ibafasha mu kumva amakuru hirya no hino.

Kaburimbo, iyo kaburimbo ikaba ikikijwe n'aduka ndetse ahantu hari amashanyarazi, kandi n'ikirere gisa neza cyane.

Umusigiti ,imbere yawo hari umuhanda wa kaburimbo ndetse n'amazu y'ubucuruzi ,hari abantu bari kugenda impande y'umusigiti bajya mu mirimo yabo itandukanye.

Etaje abantu bakaba bari imbere ya yo bagenda, umwe afashe igikapu, undi ari kugenda. Bigaragare y'uko bagiye kuyinjiramo.

Urusengero : Urusengero rwari rwubakishijwe ruriba imbere yarwo hakaba hari amapave abantu baparikaho, kandi uru rusengero rukaba rufite imiryango ibiri.

Padiri, Musenyeri ari kumwe n'ababikira bahagaze imbere ku rusengero, aho bari kwifotoza ifoto y'urwibutso. Kandi bose bakaba bambaye ibikanzu n'udupfukamunwa.

Abagororwa baricaye n' abacamanza bari kubacira imanza, aho barikumva uko imanza zabo zihagaze bakaba bicaye mu nzu bose.

Umuyobozi ari gutanga inama ku banyeshuri, aho umuyobozi ahagaze, abanyeshuri baricaye hasi ku mucaca kugira ngo bumve kandi babone neza impanuro umuyobozi wabo ari kubaha.

Abaturage bari mu inama, bicaye ku igiti hari babiri bari kubigisha ku ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Kandi hari igare riparitse ku uruhande n'ibiti biri hafi aho ngaho inama iri kubera. Ibi bikaba bigaragaza imibereho myiza y'abaturage ndetse n'uburenganzira bw'umuturage mu Rwanda.

Abaturage bari mu nama, aho abayobozi ba bo bari kubagezaho ibitekerezo, kandi inama ikaba irimo Daso, abayobozi bakaba bicaye ku ntebe, abaturage bakaba bicaye hasi.

Umugore wambaye ibitenge ufashe mikoro ari kuvuga, ari kuvugira mu nama yerekana y'uko uburenganzira bw'umugore nawe yavugira mu bandi mu ruhame mu gihe bagenzi b'abagabo bicaye.

Ikibuga cy'indege kiriho abantu bambaye utujiri bafasha muri serivisi no kuyobora abantu bagana ikibuga cy'indege.

Abagore bari gusunika ibicurugutu babiri, ibicurugutu bibafasha gutwara ibintu biremereye umuntu atabasha kwikorera.

Imodoka za twegerane ziparitse ku muhanda w'igitaka ,hari amazu ari inyuma yazo kandi inyuma y'ayo mazu hari isoko, kandi hari n'umuhanda wa kaburimbo uri gucamo abamotari, hari n'abantu batanga mitiyu bicaye mu mitaka.

Abamotari bakaba bari kuri moto zabo aho bategerereje abagenzi kugira ngo babatware. Aha bigaragaza ko transiporo imaze gufata indi ntera mu Rwanda, kuko hari abamotari benshi.

Moto nshyashya ziparitse, izi moto zikaba ziriho amashashi, zikaba zicuruzwa, kandi inyuma ya zo hakaba handitswe beka fawundesheni.

Ikamyo iri kubenura amagaraviye, bakoresha bari kubabaka ibintu bitandukanye. Amazu, imihanda ibiraro, amashuri n'ibindi bikorwa remezo.

Muri gare aho abantu bahagaze kuri desitanse， kugira ngo batanduzanya indwara kandi bakandagira kuri kandagira ukarabe kugira ngo bakarabe， kandi bakaba bambaye udupfukamunwa kugira ngo be kwanduzanya indwara， bakaba bitegura kwinjira mu modoka.

Imodoka zisa ziri ku murongo umwe aho zaparitswe muri gare y'igitaka kugira ngo bagabanye akajagari.

Imodoka zisa ziri ku murongo umwe ziri muri gare ndetse n'abantu bakaba bari muri gare, biteguye kuzitega akaba ari n'amazu akikije iyo gare ndetse n'umuhanda imodoka zinyuramo.

Imodoka zihagaze mu muhanda w'igitaka zikaba ziri gushyiramo abagenzi barimo kugenda. Izi modoka zikaba zerekana uburyo iterambere ry'u Rwanda riri gutera imbere, kandi iterambere ryageze hose no mu byaro.

Imodoka iri kwinjira muri gare. Impande yaho hakaba hari zebura korosingi, aho abanyamaguru bagomba kunyura. Imodoka ikaba ariyo mu bwoko bwa royo egisipuresi.

Imodoka ya bisi ndetse n'abamotari bari ku moto. Irimo iragenda muri kaburimbo, aho biri korohereza abagenzi bagenda; kugirango ngo iterambere ry'igihugu ritere imbere.

Imodoka za kwasiteri, n'utuvatiri, n'izindi nini ziri muri gare abantu aho bazitegereje, kugira ngo bazitege, buri wese yerekeze aho ajya.

Imodoka ziparitse muri gare ,zikaba zitegereje abagenzi zitwara ,bityo ibi bikaba byihutisha ubutwererane, ndetse bigatuma abantu bakora ingendo mu buryo bwihuse.

Imodoka ya Hoho yikoreye umucanga, akaba ari imodoka ibiri ziri mu muhanda, aho zijanye umucanga wo kubakisha umuhanda.

Amakamyo atwaye ibintu bikaba ari ibikamyo binini, abantu bari mu muhanda bari kuganira ,ikamyo imwe iri mu ruhande rw'iburyo ,indi mu ruhande rw'ibumoso.

Imodoka ziparitse izi modoka zikaba ziri gukuramo abagenzi ,kandi n'abandi bakinjira muri zo modoka ,Hari bisi hari n'indi ritiko iri kugenda mu muhanda.

Imodoka ziri muri gare ,abagenzi bakaba bari kwinjiramo ,izo modoka akaba ari nyinshi, harimo ubwoko bwa Yahu, Kigali koci, ndetse n'ubundi bwoko bw'imodoka.

Abamotari bari kuri moto aho bategereje abagenzi, abo bamotari bakaba bambaye kasike, bakaba bategereje abagenzi aho basanzwe babategereza, kugira ngo babajyane aho bari kujya.

Abayobozi bicariye mu modoka basuzuma yuko ikomeye. Umwe aricaye abandi barahagaraye bareba neza niba imodoka abantu bazajya bicara bisagaguye.

Abamotari babiri umwe atwaye umugenzi ,undi atwaye umufuka urimo imizigo, bakaba bambaye kasike bakaba bari kugenda muri kaburimbo, ibi byerekana yuko dufite ibikorwa remezo.

Abagenzi muri gare, aho binjira mu modoka ibatwara, kandi hakaba hari n'abanyeshuri bari kwinjira mu modoka bajya kwiga.

Imodoka ziri muri gare aho zitegereje abagenzi. Kandi bigaragara yuko n'abagenzi, bari kuboneka kuko harasa neza.

Umukecuru umukecuru wambaye imyenda y'umukara ufite n'imisatsi irimo imvi, akaba ari gukina tenisi. Siporo yarabaye rusange mu rwanda aho n'abakecuru ubona bisanga mu gukora siporo.

Ivatiri iri mu marushanwa, ikaba iri mu marushanwa mu muhanda w'igitaka, bakaba bari muri kuruse y'imodoka. Bigaragara y'uko iyi modoka hariho ivumbi ryinshi.

Tirama akaba ari izina ry'uyu muntu, akaba ari guterera inkoni, akaba yaritabiriye amarushanwa yabaye muri Roma mu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Akaba ari umukino w'amagare aho abaturage bari bahagaze mu mpande z'imihanda abandi bahagaze mu ma etaje bishimiye cyane n'ibyishimo byinshi bitewe n'amagare bari bari kubona.

Barimo bari muri siporo muri kaburimbo. Aho bari kunyonga amagare, kandi hejuru hari abantu barikureba uyu mukino w'amagare bari hejuru ku musozi. Kandi amagare ari kubera mu muhanda wa kaburimbo.

Umukobwa wambaye isengeri y'umutuku wambaye utushenete mu kaboko, uri gukina tenisi kandi akaba yambaye ikabutura y'umweru. Tenisi ni umwe mu mukino ukunzwe cyane kuko ufasha umubiri kugororoka kandi akumva ameze neza.

Abakinnyi ba basiketi barimo kwitoza ku kibuga. Mbere yuko umukino utangira. Aho bari ku kibuga cyiza cyane cy'amakaro.

Abantu bari gukora siporo yo kwirukanka hari mo abagore n'abagabo, aho bari kwirukankira ku ikibuga kigezweho.

Abana b'abakobwa barimo barakina umupira w'amaguru, aho ikipe imwe yambaye icyatsi ,indi ikambara ubururu.

Abakinnyi bakaba bari gusinya ,banasiga amatelefone yabo ahabugenewe ,kugira ngo acungirwe umutekano ku kibuga.

Abakinnyi bari gukina umupira bambaye bamwe amajezi yimihondo, abandi bambaye amajezi y' imituku n'icatsi.

Abasore babiri bari gukina umukino wa basiketi, umwe yambaye ikabutura y'umweru n'isengeri y'umweru, undi yambaye ikabutura y'ubururu n'ijiri y'ubururu. Umwe ni umukinnyi w'uRwanda undi ni uwa Mozambique.

Abasore barimo gukina umukino wa hendibolo, aho abandi bafana bicaye bari kwitegereza uburyo bari gukina bari gukina, bari gukinira ku kibuga cy'isima.

Abanyonzi bari kunyonga amagare, bari muri curusi, aho birukanka bari ku murongo, bari muri kaburimbo, imbere yabo hari abantu bari kureba uko bari kwiruka.

Akavatiri kari mu muhanda, kari muri siporo aho abaturage bari kureba, aka kavateri kakaba kabaye aka mbere mu irushanwa rya kampani yitwa Marishari.

Abagano babiri umwe afashe jezi y'umutuku yanditsweho Erideka nimero makumyabiri n'itanu undi afashe umupira. Ndetse inyuma hari amapantaro amanitse ku mahanga abagabo bombi bambaye amarinete.

Umukino wo gusimbuka urukiramende .Uyu muntu yambaye imyenda yabugenewe yo gusimbuka kandi bigaragara yuko ari umuhanga.

Umugabo ari gukina rediboro akaba yambaye imyenda y'umuhondo ,kandi akaba ari kuyikinira ku kibuga kimeze neza cyubakishijwe amapave.

Umukobwa uri gukina tennis ari guseka, yambaye agakomo ku kuboko ,afite n'imisatsi ifungiye hejuru ,akaba yambaye agakanzu n'agasengeri by'umweru.

Abakinnyi b'umukino wa basiketi. Buri muntu wese afashe baro arimo arayidunda, n'umutoza wabo abari imbere, ari kuberekereza ibyo bakora.

Sitade amahoro, ikaba hejuru iteretseho intebe z'amadive, kandi iyi sitade aho abantu bicara hakaba hasakaye, ikaba n'ikibuga cyayo ari icya tapi.

Ikipe igizwe n'abagore batanu n'umugabo umwe, bari imbere y'icapa ciriho akego n'amagambo yanditswe ngo bireri ja kingi kapu.

Umugabo uri gukina tenisi, akaba yasimbutse kugira ngo umupira utamucika, inyuma ye hakaba hari izamu, kandi akaba ari gukinira tenisi ku mucanga.

Abagore n'abagabo bari muri siporo, siporo yo kwirukanka, bambaye amajezi yanditsweho u Rwanda ndetse n'ingofero z'umuhondo, bakaba bari kwishima kandi bakaba bameze neza.

Ikipe ya basikete yiteguye gukina ,irimo abazungu n'abirabura ,ndetse bambaye imipira y'ubururu bakaba ari abasore bameze neza kandi biteguye intsinzi.

Abasore bari gukina vole, akaba ari ji esi Butare n'indi kipe bakaba bari gukinira ku kibuga ciza cya sima.

Umupira w’amaguru, aho ikipe ya Reyo Siporo iri gukina n’indi kipe, bigaragara y’uko bari gukina neza, mu myenda yabo y’umweru n’ubururu; abandi umutuku. Bigaragara ko umukino umeze neza.

Umukobwa wambaye amarineti, unafite umusatsi akaba ari gukina tenisi ku kibuga cyubakishijwe urwondo.

Umusore uri gukina umukino wa tenisi mu Rwanda, akaba ari ku kibuga cyubatse neza, kandi akaba yishimiye ibyo ari gukina.

Ibyatsi biteye mu kayira gato abaturage bacamo bajya mu imirima guhinga, abandi bagacamo batashe mu amago iwabo. Impande y'aka kayira hakaba hateye ibiti ndetse hakaba hateye n'igiko.

Umuhanda wa kaburimbo uca mu ngo z'abaturage aho abaturage bawifashisha mu gutega imodoka ndetse no mu bundi buhahirane bwa buri munsi. Uyu muhanda ukaba ufite impande zawo ibiti, kandi abantu bakaba bari kugendera ku ruhande rw'iyo kaburimbo kugirango ibinyabiziga bitabagonga.

Umuntu uri guca mu kayira k'abanyamaguru, impande yako kayira hakaba ari amazu y'abaturage ,aka kayira abantu bakaba gakoresha mu kugenda cyangwa se gucishaho ibinyabiziga byabo.

Umuhanda w'ibitaka wo muri karitsiye, iruhande rwaho hakaba hariho igipangu kiriho pasiparume bikaba bimeze neza.

Umumotari utwaye umugenzi, bakaba bari kugaragara mu kirahure kiri imbere . Aho cyerekana umumotari ndetse n'umugenzi atwaye, kandi bari kugendera muri kaburimbo.

Umuhanda wa kaburimbo wo muri karitsiye，akaba ku ruhande haparitse moto mu muhanda，ukaba ugaragara nk'aho wubatse mu mazu y'abaturage kugira ngo bihutishe urujya n'uruza rw'abantu bagenda mu muhanda haba imodoka．